Leta y'u Rwanda ihora ishishikariza abaturage bayo kwirinda kuba mu mazu ashaje ndetse no gutura mu manegeka, ahubwo ikabashishikariza kujya gutura ku mudugudu aho bazagerwaho n'ibikorwaremezo.